Iduka bacururizamo ibintu bitandukanye byerekeranye n'ubuhinzi, harimo uducupa tw'ingemwe turi mu moko atandukanye ariko twose tw'umweru, harimo karoti, inyanya, amashu n'izindi ngemwe.

Abantu benshi bateraniye mu murima bafite amasuka, barimo baragenda bahinga abandi batera, abandi babazanira imbuto, bamwe muri bo bambaye imipira y'icyatsi ubona ko ari nk'iy'umushinga cyangwa ikindi kintu runaka bahuriyemo.

Inzu eshatu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hamwe hagurishirizwa ibijyanye n'ubuhinzi, ahandi ni ishami rya banki ya BK, ahandi bacururizamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, hanze hagiye hari amakaziye ya fanta, ahandi hari rozwari zifashishwa mu kuvomerera.

Abagabo batanu bari mu murima uhinzemo inyanya, ziteye ku murongo umwe, babiri bambaye ibisarubeti by'umutuku, abandi batatu bambaye ibisarubeti by'ubururu bahetse ibikapu mu mugongo, birimo imiti barimo baragenda batera.

Iduka bacuruzamo ibijyanye n'ubuhinzi, harimo ingemwe z'ibihingwa bitandukanye, harimo nk'inyanya, karoti n'izindi, ziri mu ducupa twabugenewe.

Iduka bacururizamo ibijyanye n'ubuhinzi, hari uducupa turimo ingemwe zitandukanye zo gutera, ikayi, ikaramu, n'umu agoronome ushinzwe kubitanga ku babikeneye.

Iduka bacururizamo imiti y'ubuhinzi, hanze hari imifuka yuzuye iteretswemo ibintu bitandukanye, bari bujyanemo iri duka n'ishashi irimo rozwari ziri mu ibara ry'icyatsi. Hari n'akandi gafuka gatoya, ka sima n'ipine ry'umukara.

Abagabo bane bamwe bambaye udupira tw'umutuku, abandi dusa ubururu, bari mu mirimo y'amaboko, umwe afite ingorofani indi iteretse hasi. Inyuma yabo hari amazu n'ibyatsi bari kwifashisha bakata ibyondo.

Iduka ricuruzwamo imiti yifashishwa mu buhinzi, ikaba iteretse mu kabati k'ikirahure ariko karimo no mu rubaho mu ducupa tw'umweru, hari na rozwari yifashishwa mu kuhira imyaka.

Icupa rirerire ry'umweru ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ''tuza'' rikoze mu gihwagari ryifashishwa mu kwica udukoko tuguruka harimo n'amasazi, ibinyenzi, ibiheri n'ubundi bwoko bw'udusimba tugenda tuguruka.

Iduka bacururizamo ibijyanye n'ubuhinzi nk'ingemwe zigiye zitandukanye, igikoresho bifashisha batera imiti, n'icyo bifashisha bavomerera imyaka, kizwi nka rozwari giteretse hejuru ya firigo.

Iduka bacururizamo ibijyanye n'iby'ubuhinzi, harimo imiti yica udukoko, hakabamo n'ingemwe zo gutera, harimo ndetse n'ibikoresho bya kizimyamoto bifashisha bazimya inkongi y'umuriro.

Icyumba bacururizamo imiti y'ibihingwa, harimo itandukanye yo mu moko nayo atandukanye, harimo ndetse na rozwari bifashisha mu kuvomera ziri mu ibara ry'icyatsi, byose biteretse mu kabati k'urubaho.

Udufuka tubiri, twose turi mu ibara ry'umweru, twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, ndetse atari mu rurimi rw'ikinyarwanda, amwe ari mu nyuguti nkuru z'icyatsi, ndetse n'andi mu nyuguti ntoya z'ubururu n'umutuku.

Abagabo babiri, umwe yambaye ingofero, ishati y'amaboko maremare yahinnye n'ipantaro na bote, undi umupira w'umukara w'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi, barimo baragenda bashyira ifumbire kuri buri kigori.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore bose bambaye ingofero, imyenda iri mu mabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umutuku, umuhondo, bari gusarura, hirya yabo hari igiti kirekire.

Iduka bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi, harimo nk'ingemwe, imiti yica udukoko, inyongeramusaruro, ndetse n'ibindi bikomoka ku buhinzi byafasha kugira ngo umusaruro ube umeze neza nta kibazo cyabayemo, n'umuganga cyangwa uwo twavuga ko ubasobanura bitewe n'ibyo bashaka.

Umugore n'umugabo bari mu murima, bose wambaye udupira tw'icyatsi, barimo baragenda batera imiti mu murima w'ibigori byabo, kugira ngo hirindwe ibyonnyi. Hari n'inzu ziri hakurya n'umusozi ubitaruye uriho amashamba.

Iduka bacururizamo imiti itandukanye y'ubuhinzi, iri mu ducupa tugiye dutandukanye tumwe turi mu mabara y'umweru, umutuku, icyatsi, turi mu kabati kabajwe mu rubaho ndetse n'ibirahure, hari n'amakaro y'umweru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi, ibyifashishwa mu gutera imiti, kuhira ndetse n'uducupa turimo ingemwe z'imbuto nk'inyanya, karoti, imiteja, pavuro n'ibindi.

Umugore wambaye umupira w'umutuku urimo n'imirongo y'umweru, ipantaro y'umukara, ahetse ikibido kifashishwa mu gutera imiti, ari kubitera ku bihingwa bita sukumawiki bimeze nkamashu kugira ngo yice udukoko tuba turiho.

Umugabo wambaye ikote ry'ishashi ry'icyatsi cyerurutse, ari kugenda atera umuti mu murima w'amashu. Hari n'ibindi bihingwa biri inyuma ye nk'ibigori, ndetse n'ibibingo.

Inyubako bacururizamo imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'igikoresho kizwi ku izina rya rozwari bakoresha bavomerera imyaka. Igihe hariho ibiciro ku mbuto nka karoti zigura ibihumbi bine magana atanu ndetse amashu akagura ibihumbi bitatu magana atanu n'ibindi.

Inyubako icuruzwamo ibijyanye n'imiti y'amatungo ndetse n'iby'ibihingwa. Ku rukuta handitseho ibikorerwa muri iryo duka, hariho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara ari mu kinyarwanda, imiti y'amatungo, imbuto nziza y'inyongeramusaruro. Hashushanyijeho inka, inyanya ndetse na karoti.

Umugore n'umugabo bari mu murima, umwe yambaye ikote, undi ateza igitambaro mu mtwe n'umupira yikenyeje, bafite agatebo karimo ifumbire, bari kugenda bashyira mu murima, n'umufuka ku ruhande.

Umugabo usa naho akuze kubera ko afite uruhara, yambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu n'ipantaro, arasutamye arimo arasuzuma ubutaka buhari, hakurya ye hari inyubako yubakishije ibyondo.

Umurima mugari uteyemo ibigori, iruhande rw'ibumoso hari ibiti bibiri birebire by'ipapayi, hari inzu n'urugo rwubakishije amatafari, hakurya hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi.

Umusore uri mu murima uhinzemo inyanya afite igikoresho kirimo umuti, n'umugozi agenda, na ga mu ntoki z'ubururu, arimo aragenda atera, kuri izi nyanya kugira ngo zice udukoko twazibuza kwera neza.

Umurima uhinzemo insina zikiri ntoya zigiye zicukuye ziri mu rwobo, hakurya yaho hari ishyamba riteyemo inturusu nazo zikiri ntoya ariko zo ndende.

Amapapayi ari ku giti cyayo yakuze igihe icyo ari cyo cyose yasarurwa, amapapayi ni amwe mu mbuto zikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi aribwa n'abantu bose yaba abakuru yaba abatoya kuko agira umumaro munini mu mubiri.

Abanyeshuri baje mumurima, aho barimo barahabwa ibiti bigiye bitewe kugira ngo, bijyanwe guterwa aho byagenewe. Bambaye imponzankano zirimo ishati n'ijipo y'ubururu, bari hagati mu kibaya, hejuru hari umusozi, hakurya hari ishyamba.

Umurima uri ahantu hitaruye utewe imyumbati, uri mu kibaya hasi, hakurya yaho hari umusozi, ahandi hateye ibigori n'ishyamba.

Umurima mugari uhinzemo amateke, hakurya aho utangiriye hateye insina, imbere yazo hari inzu yubakishije amatafari y'ibyondo.

Umurima mugari uteyemo icyayi bizwi ko mu Rwanda ari ho honyine cyangwa hake mu Isi usanga bafite umwihariko w'icyo cyayi.

Umurima munini ukikijwe n'ishyamba, uhinzemo soya zitarakura, zitarazana n'imiteja. Soya zijya kumera, nk'ubunyobwa ariko biratandukanye kuko hari izo, zivamo ifu, zishobora kuba zavamo n'amata.

Umurima w'icyayi mugari utasoromwa, urabona ko ushibutse bifashisha mubiribwa bimwe na bimwe bagenda bohereza mu muhanga.

Ibitoki by'imineke bya kamaramasenge byinshi bitarashya, bitegerejwe kujyanwa ku isoko kugira ngo bigere ku baguzi na bo babishyikirize abakiriya babo.

Umurima uhinzemo imyumbati, ukaba ukikijwe n'ishyamba rikiri rito ritarakura, ririmo inturusu z'umweru n'izi zisanzwe.

Umurima mugari uhinzemo icyayi n'ibiti birebire, ubona ko ari ahantu heza kandi hakeye. Ni kimwe mu bintu u Rwanda rwohereza mu mahanga ndetse bikaba bifasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu.

Amashashi ari mu ibara ry'ubururu yasaruriwemo icyayi, cyenda kujyanwa ku isoko, hari n'udupaniye na two twagiye dusarurwamo kugira ngo bize gukusanyirizwa hamwe bwire abijyanye.

Abakobwa babiri bahagaze baseka ubona ko bishimye, bombi bafite inanasi mu ntoki zabo bari mu murima wazo ubona ko bishimiye umusaruro wa bo.

Umurima mugari cyane uhinzemo insina ndetse n'ibindi bihingwa by'ibiti ariko byo bikiri bitoya, hakurya yaho hari ibigori byumye.

Umurima munini uteyemo ibihwagari byakuze, ibihwagari ni bimwe mu byifashishwa cyane cyane mu gukuramo amavuta y'ubuto abantu batekesha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikawa imwe irimo utubuto duhishije indi ikiri mbisi bihinze mu murima ni kimwe mu bihingwa u Rwanda rukungahayeho rwohereza mu mahanga bikarubyarira inyungu ziri ku rwego rwo hejuru.

Umurima munini uteyemo ibigori byakuze ubona ko bishishe byagize igihe cyiza cy'imvura , ndetse n'ifumbire bakoresheje n'imiti mu kugira ngo bice udukoko tuzwi nka kongwa igenda ikunda kwibasira ibigori.

Imineke ihiye ya kamaramasenge itari ku iseri, imwe igiye icagaguye indi nayo iracyari ku iseri iteretse ku meza y'urubaho.

Ishyamba ririmo ibiti bikiri bito bito ubona ko bitewe vuba, harimo n'ahandi hataraterwa ariko hahinze, harimo inturusu zikiri ntoya n'izindi zakuze.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye, harimo insina ikiri ntoya, dodo, ibishyimbo, ndetse n'inyanya n'ibigori, ku ruhande rwo hepfo, hari uruzitiro rwubakishije buroke sima.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, gaterete hasi, kariho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, hashushanyijeho inka, ibirimo bingana n'ikiro kimwe, bisa nk'aho ari vitamine zifashishwa mu kugira ngo umukamo wiyongere ku nka.

Indobo zigerekeranye zifite imifuniko y'umweru, ibipapuro byometseho biri mu ibara ry'umukara, amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Agasorori kabonerana ka pulasitike gateretse ku meza ari mu ibara rya shokora, mu imbere ubona ko harimo ibintu bimeze nk'ibigori biseye.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo. Ingurube ziri mu moko atandukanye no mu ngano zitandukanye, harimo inkuru n'intoya, ziri mu kiraro zirimo zirarya ibyo bazihaye. Aho ziri, hari ndetse n'ikintu, cy'igice cy'ikigega kirimo ibyo ziri kuriramo.

Uducupa tubiri twose dusa n'amagambo yanditseho ni amwe, ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, yifashishwa mu bworozi bw'inkoko kugira ngo amagi aboneke.

Umukobwa ubona atari muto wambaye igisarubeti na bote, afite ibase iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ari kugenda agaburira inkoko ahabugenewe, hari senyenge, inyuma yazo hari umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti hari n'ivomero.

Ingurube ni kimwe n'andi matungo yose yororerwa mu rugo, n'amatungo magufi, iri mu kiraro cyubatse mu nzu, hariho senyenge nk'idirishya hari umuntu urimo urayitera umuti.

Umuntu ufite igikoresho mu ntoki kiri mu ibara ry'icyatsi, kirimo uruvangitirane rw'ibintu, amagi, ibyatsi byumye n'ibigori, ari kubisuka mu mashini isa ubururu bwijimye.

Agashwi kari mu busitani ubona ko katabasha kugenda gashobora kuba gafite ikibazo, nk'umusinziro, cyangwa ubundi burwayi butandukanye bujya bwibasira inkoko.

Umurima munini uteyemo imyumbati, ahandi ntabwo hateye hari imyumbati imwe yakuwe iri ku ruhande, indi nayo igiye guhita iterwa kugira ngo izamere.

Umugabo uri guhinga amaterasi mu murima uteyemo imyumbati n'amateke, hakurya ye hari igishanga. Yambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'ikoboyi, bote n'isuka mu ntoki.

Abagabo bari mu cyobo barimo baragenda bacukura, n'abandi bari hejuru yacyo babakikije, bari bari mu gikorwa cy'umuganda, harimo abambaye bote, ingofero ndetse n'undi wambaye imyenda yicyatsi ni ushinzwe umutekano.

Umurima udahinze urimo ibyatsi byagiye byimeza n'ibiti bitandukanye nka avoka, umwembe, insina, hakurya yawo yari umusozi uteyeho amashyamba, hari n'inyubako iri hakurya yubakishije ibyondo.

Umuntu urimo atera ibirayi mu murima, mu twobo yagiye acukura. Ibirayi ari gutera ni udutoya, tuzwi nka nyirakarayi cyangwa ibirayi by'ibinyarwanda.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye kandi benshi bari mu murima bahinga, inyuma yabo hari ishyamba ririmo ibiti byinshi hari ndetse n'ahateye insina.

Umurima mugari urimo ibintu bitandukanye, hamwe harateye ahandi ntihateye, harimo imyumbati, abantu babiri umwe yambaye umupira w'ingofero mu mutwe, undi nawe arunamye basa nk'aho ari gutera.

Abasore bari guhinga bafite amasuka, hirya yabo hari umuyenzi, barimo barahinga umurima utari uhinze kugira ngo babone uko bateramo, wari urimo ibisigazwa by'ibigori.

Abantu bunamye bari mu ngeri zitandukanye: abakecuru, inkumi, abamama, bafite udushashi barimo barashyiramo ubutaka burimo ifumbire bifashisha bashyiramo ingemwe, kugira ngo zizakure babone aho bazazitera.

Umukobwa ufite isuka arimo aragenda arimo ahantu bazubaka cyangwa bazatera, hagiye hatandukanyijwe n'imigozi, hirya ye hari urugo rwubakisheje amatafari ahiye, hakurya hari umusozi muremure ndetse n'ibiti biteyeho.

Abantu batatu bari mu murima, bose bafite amasuka bari guhinga umurima urabona ko ari bwo bagitangira guhinga kuko haracyari hanini bataragera bahinga.

Umugabo wambaye umupira w'umweru werurutse, ipantaro ya kake ari mu muma ari guhinga. Inyuma ye hari ibigori ubona ko bitakiriho byashizeho.

Umurima urimo abantu batandukanye abagabo, abagore, bamwe bari kubagara abandi bari gusarura, harimo dodo, imbere yabo hari umurima uhinzemo urubingo, hakurya yabo hari umusozi uteyeho amashyamba.

Inzu yubakishije amatafari ahiye; hanze hari abantu bari mu mirimo itandukanye: umwe afite isuka undi umweyo, ibase; bafite ibirundo bigiye bitandukanye by'ingano, ubona ko barimo bagira ngo babone uko babyinjiza.

Umukobwa wambaye ingofero, ipantaro y'umukara, bote n'umupira w'amaboko maremare, afite isuka mu ntoki, arimo aragenda atera imbuto, hakurya ye hari ikigo cy'amashuri, ibiti ndetse hari n'imigozi itandukanya agace ari guhingamo n'akandi.

abantu bari mu mirimo y'amaboko itandukanye, barimo abagore, abagabo, abana, bamwe bafite amasuka barimo barakata icyondo bubaka inzu. Hari iyubakishije ibyondo n'ibiti, ndetse n'indi itaruzura. Hari n'ibiti biri hakurya yabo birebire.

Abagabo bane bose bicaye basutamye barimo baratera igiti, umwe ashinzwe umutekano, babiri bambaye amaje undi yambaye ishati y'amaboko maremare, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye n'amabati asize irangi ry'bururu, hari ikigega gifata amazi aturuka kuri ayo mabati.

Abantu bane barimo abagabo babiri n'abagore babiri, bose bari mu murima bari guhinga, buri wese afite isuka, muri bo harimo insina n'imyumbati.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu, afite isuka ari gukata icyondo mu murima hateye na ho ibintu bitandukanye, imyumbati, ibigori n'insina.

Umurima w'urutoki harimo abagore babiri barimo barigenda batsibura ahari hasibwe, harimo n'ibindi biti bitandukanye nk'umwembe ndetse n'amateke akunze kwera mu rutoki.

Umusore wambaye agapira gatukura ufite isuka mu ntoki, arimo aracukura icyobo, yambaye siripa, inyuma ye hari umurima uhinzemo imyumbati, insina n'ibigori.

Abagore batatu n'umugabo umwe, bari mu murima, bose bafite amasuka bari guhinga, harimo ibitoki n'imyumbati ikiri migufiya, ndetse n'ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe, ubona ko barimo baragenda batera.

Abantu babiri bari mu murima barimo barahinga, bose bafite amasuka, umwe ateze igitambaro mu mutwe, undi yambaye agashati, n'ijipo y'igitenge, iburyo bwabo hari umurima uteyemo ibigori, harimo n'igiti cyakuze.

Abantu babiri bari mu murima, umwe arimo arahinga undi ari gusibura inzira y'amazi, harimo ibitoki, urubingo, ndetse n'ibindi byatsi byagiye byimeza.

Abagabo babiri bari mu murima, bose bafite amasuka, umwe yambaye ingofero, bote, harimo insina, ibigori, indobo, hari n'amateke bigaragara ko yakuwe.

Umurima uteyemo ibitoki, bimwe byakuze, izindi nsina ziracyari ngufi, harimo amateke n'abantu babiri barimo baratera ahandi hadateye, harimo uwambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi umupira w'umuhondo.

Abasore n'inkumi bose bari mu hatewe ibiti bikiri bitoya bya avoka, bari kugenda babivomerera bifashishije igikoresho cyabugenewe kizwi ku izina rya rozwari mu ndimi z'amahanga, ibyo biti bikaba biteye munsi ya shitingi, harimo abambaye imipira y'umukara, umuhondo, umweru.

Umusaza wicaye ku rubaraza; aho afite umushandiko w'ibigori byumye, arimo aragenda abihambura kugira ngo bizasheshwe cyangwa bigurishwe havemo ifu ya kawunga cyangwa y'igikoma.

Voka nyinshi ziri mu gapaniye ka plastique gasa icyatsi. Ni zimwe mu byo abantu bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi haba mu mbuto cyangwa mu mafunguro.

Umugabo uhagaze imbere y'ibitoki bamaze guca byinshi bitegerejwe kujyama ku isoko, inyuma ye hari ibindi bigiteye biri mu murima bitarasarurwa.

Ibikarito byinshi birimo voka bigiye bigerekanye, bisa nkaho bigiye gusohoka hanze y'igihugu cyangwa bijyanywe ku isoko kugira ngo bicuruzwe.

Ikusanyirizo ry'ibigori byumye, biri gupangwa mu mifuka kugira ngo bijyanwe ku isoko. Hari imifuka myinshi y'umweru yuzuye, ibindi biracyarambuye ku mashitingi bitegerejwe gushyirwamo.

Imbaga y'abantu batandukanye, bari mu ngeri zitandukanye, abagore, abagabo, abasore, inkumi, bose bari ku isoko rigurishirizwaho inyanya, ziri mu bitebo bibohesheje imigwegwe, byose bisendereye inyanya.

Umurima mugari uri mu gishanga uteyemo umuceri wakuze ariko utarakura cyane, hamwe urabona ko harimo inzira iwutandukanya n'igice cy'iburyo n'icy'ibumoso.

Isoko ry'imbuto ririmo amoko atandukanye y'imbuto, nayo ari mu bitebo, mu mifuka, mu bikarito. Hari umugore ukenyeye igitenge, umupira w'amaboko maremare, n'igitambaro mu mutwe. Muri zo harimo: ibinyomoro, imyembe, amatunda, amaronji, n'andi atandukanye.

Ku isoko hari imbaga nyamwinshi y'abantu baje guhaha, abandi barimo baracuruza. Hari imifuka miremire yuzuyemo ibirayi iri mu ibara ry'umweru, ubona ko itegereje abayigura kugira ngo bayijyane.

Umugabo wambaye ingofero, umupira w'umuhondo urimo n'umukara , imbere ye hari intebe y'urubaho, ari mu bwanikiro bw'ibigori, bigiye bishamitse ku nkingi zigiye zitandukanye.

Ni ku isoko aho haba hari ibiribwa bigiye bitandukanye, aha ngaha hari imifuka y'ibijumba, umwe urafunze undi urafunguye, amabase abiri ari mu ibara ry'umutuku, yose arimo ibijumba.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ingeri zitandukanye z'abantu ariko abiganje ukabonako ari abambaye imyenda ya kiyisilamu, ni ibitebo byinshi byuzuyemo inyanya zihiye, n'ahari abacuruzi n'abaguzi bari kumvikana ku bi....

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye abagabo, abagore baza bahaha banagenda, bari mu isoko hari ibitebo byinshi birimo inyanya zisendereye.

Indimu ziteye mu dushashi dutoya baba bafashe nk'ingemwe kugira ngo zibanze zikuriremo hanyuma babone bajya kuzitera mu bundi butaka bwateganyijwe.

Inzu yubakishije amategura izengutswe n'urugo rw'imiyenzi, hagati y'urugo harimo umuhanda n'undi murima urimo igiti kirekire n'insina.

Ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye ariko harimo ibigiye ubona ko bimaze igihe kitari gitoya bitewe n'ibindi bikiri bito biri gukura, hari icyumye cyane cyakomeretse imbere.

Umurima uhinzemo bikiri ibishyimbo bitoya, insina zifite ibitoki n'inturusu ndende iri inyuma y'umurima byose bikikijwe n'umuhanda w'igitaka.

Umurima urimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo insina, amateke, amatunda, imiyenzi n'imyenya.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, ruhinzemo sukuma wiki, ipapayi ritarakura neza, inyuma yarwo hari insina.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, birebire kandi ubona ko bimaze igihe kitari gito bitewe. Harimo nk'ibizwi ku izina rya sipure n'inturusu.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye, harimo ipapayi rikiri ritoya, dodo ubona ko zimaze igihe zakuze, ndetse n'ibigori bihinze mu murima wabo.

Umurima urimo ibiti bitandukanye, ibyatsi byagiye byimeza, harimo n'iteke riteyemo, insina, ni umurima ubona ko utarahingwa ngo ugire ikintu uterwa.

Ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi biri mu moko atandukanye, harimo icyo bakase kugira ngo kivemo ibindi bintu, kimwe mu bivamo hari ibivamo impapuro cyangwa ibindi bakabicanisha.

Umurima munini, urimo ibihingwa bitandukanye, wiganjemo insina zikiri ngufi, n'ibishyimbo bitarakura cyane, harimo umugabo muremure, ubyibushye wambaye umupira wa kake n'kabutura igera mu mavi y'ikoboyi, hakurya hari umusozi, hino hari ibyuma bihateye.

Umurima uteyemo igiti cya voka gifite amashami magufi kandi zireze ku buryo igihe icyo ari cyo cyose zasarurwa zikajyanwa ku isoko.

Ishyamba ririmo ibyatsi n'ibiti birebire, harimo nka mabiyakuku cyangwa bamwe bita umuhengeri bitewe n' aho abantu batuye, ariko ayo ni yo mazina bizwiho ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Isoko ry'imbuto ririmo iz'ubwoko butandukanye indimu, wotameloni, amatunda, amaronji, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibitoki by'imineke biri mu gitariro bitarasha neza, bimwe amaseri ahiye iruhande rumwe, andi ntarasha, hari ingata ibanze mu rukoma rw'insina.

Urugo rukikijwe n'ubusitani n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hari indamo, inzu isize irangi ry'umweru ndetse hirya yayo hari n'ibiti bihateye n'amafoto ajyana umuriro w'amashanyarazi.

Intoryi zeze zihinze mu murima, ni zimwe mu mboga zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane nk'Abanyarwanda mu gutegura amafunguro yabo.

Igiti kirekire cya avoka kirimo insinga eshatu z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye, ku baturage cyangwa ku nzu z'ubucuruzi ziri hirya yaho.

Abagabo batatu bari mu murima w'amashu, abandi babiri ku ruhande, hari undi murima uhinzemo ibitoki n'ibigori, hakurya hari umusozi ubitaruye.

Umurima uteyemo dodo n'izindi mboga zitandukanye zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakurya yawo hari umuringoti ucamo amazi atemba.

Umurima urimo ubwoko butandukanye bw'imboga, ariko ukaba uzetiwe n'indabo zikiri ngufi. Harimo karoti, dodo, umwenya, ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga.

Umurima mugari uteyemo ibishyimbo ndetse n'insina, harimo umumama uri kugenda abibagara, imbere ye hari umwana wambaye agapira n'ijipo. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amategura.

Umugabo n'umugore bunamye ku karima k'igikoni gateyemo intoryi, ibigori n'izindi mboga. Yambaye ikanzu y'igitenge, akenyeye igitambaro mu mutwe, undi yambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara n'ipantaro.

Udufuka dutoya bifashisha bateramo imbuto zikiri ntoya, harimo voka, ubona ko zakuze zitegereje guterwa ahandi hantu, hari umugabo uzihagaze imbere, wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara.

Umurima uhinzemo inyanya zisasijwe n'inshinge, harimo izeze ndetse zatukuye ubona ko zikwiye gusarurwa. Inyanya ni bimwe mu bintu abantu dukenera umunsi ku wundi, haba abazikoresha, abazicuruza n'abazigura.

Imineke iri mu moko atandukanye iteretse ku nkoko, hamwe hari igitoki kikiri cyose cya kamaramasenge, ya mineke iba ari mito cyane, migufi; indi ni poyo miremire, itegereje kujyanwa ku isoko ngo ihahwe.

Umurima uteyemo intoryi, harimo izahishije n'izidahishije. Intor ni kimwe nk'izindi mboga zose zifashishwa mu mafunguro yacu ya buri munsi.

Intoryi ziri mu gasorori ka purasitike munsi yazo harimo inyanya, uwaje guhaha muri botike aho asangamo ibintu bigiye bitandukanye umuntu yifashisha mu buzima bwa buri mu...

Umugabo n’umugore bahagaze, umwe yambaye ishati, undi ateze igitambaro cy’icyatsi mu mutwe, akenyeye n’igitenge n’ishati y’amaboko magufi, bafite mu ntoki reti.

Umurima uteyemo ibintu bitandukanye, harimo karoti, ipapayi, imboga, imyembe, voka, n'urugo ruriho urutsinga rujyana umuriro w'amashanyarazi.

Isoko ry'imbuto ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo: pome, ibinyomoro biri mu mufuka, amatunda, wotameloni ziri mu gikarito, inanasi, imyembe, amaronji n'umunzani wo kubipimiraho.

Umukobwa muto muto wambaye ijipo y'igitenge, agapira, afite umusatsi muke, ari mu murima yambaye ibirenge, arimo aragenda atera. Hakurya ye hari ibyatsi hahinzwe n'ibitoki n'amateke.

Urugo rurimo akarima k'igikoni kagizwe na dodo, hepfo yaho hari urundi rugo rwubakishije amatafari ahiye; hakurya hari urundi rufite igisenge gifite amabati asize irangi ry'umutuku.

Ubwoko bw'imboga butandukanye burambuye kuri shitingi hasi, harimo imifunguro ya dodo, intoryi, karoti, pavuro ndetse n'ishu, amadegede n'indobo, n'agakapu ko kubitwaramo ku muntu ubishaka.

Umurima munini uteyemo ibintu bitandukanye, harimo nka puwavuro zisasiwe n'inshinge kugira ngo imvura iguye ikaba yabasha kubitembana.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe usutamye, arimo aragenzura aho amatunda ageze; aracyari magufi, aho ahinze haratwikiriye, hifashishijwe ibiti kugira ngo bubake urwo ruzitiro.

Isoko ry'imboga ririmo ibintu bitandukanye, abantu baza bashaka buri munsi, harimo ibitunguru, umunzani, abantu babiri bambaye umupira wa oranje, undi umupira w'umweru, harimo n'inyanya n'ibindi.

Mu isoko aho bacururiza imbuto, hari imineke ya poyo, voka ndetse n'indi itari yashya neza ariko yose iri mu isoko.

Umurima mugari urimo abantu ubona ko ari umuryango, umugabo n'umugore n'abana babo babiri umuhungu n'umukobwa, barimo barasarura imiteja bayisarurira mu gatebo bayishyira mu gapaniye.

umurima uhingamo inyanya ariko ububakiye usunikiye ku giti, uko bigenda bita indamiko ikagashyira kukuta kugira ngo bikure neza, harimo izatangiye kusha.

Ibitunguru biri ku gatanda gashasheho shitingi, n'umuntu uhicaye wambaye bodaboda isa umutuku, intebe ya parasitike y'umweru, ubona ko ari ubucuruzi bukiri butoya.

Abakobwa babiri bahagaze imbere y’umurima, bafite intoryi mu ntoki, ubona ko bishimiye umusaruro wabo. Umwe yambaye ingofero y’umukara, agapira k’amaboko magufi, atenye igitenge undi afite ibisuko, ndetse n’ijire risa n’umukara. Nyuma y’aho, hari umurima w’intoryi, harimo n’intsina."

Umukobwa mutomuto wambaye ingofero y'umukara, n'agapira k'amaboko magufi, ukenyeye igitenge, ahagaze hagati mu murima w'intoryi, acigatiye intoryi mu biganza byombi, ubona ko amaze gusarura.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti, harimo urutoryi rweze ubona ko igihe cy'isarurwa kigeze.

Umuhanda ukikijwe n'ubusitani n'indabo z'ubwoko butandukanye, hari ifoto n'insinga zijyana hirya no hino umuriro w'amashanyarazi n'inzu isize irangi ry'umuhondo, hari n'umuhanda n'aho baparika imodoka.

Umurima uhinzemo dodo cyangwa bamwe bita imbwija inyabutongo. Ni imboga cyangwa igihingwa kifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye kandi kivangwamo n'ibintu byinshi bitandukanye ibishyimbo, inyanya n'ibindi.

Abantu batatu bicaye. Imbere, yabo hari akameza kariho, imboga z'ubwoko butandukanye. Inyanya, puwavuro, ibitunguru, intoryi, karoti n'ibihaza. Hari, indobo y'umuhondo, ibase y'icyatsi. Barimo bacururizamo.

Akarima k'igikoni gateyemo dodo cyangwa bamwe bita imbwija n'isogi, kegeranye n'inzu yubakishije ibyondo. Imboga ni kimwe mu biribwa, bifashisha bateka, imboga bavuga ko zivura amaso.

Imineke yo mu bwoko bwa poyo, iri mu gitariro mu mufuka iteretse mu ibasa ihiye, itegerejwe kugira ngo ijyanwe ku isoko ibone abaguzi.

Intoryi ziri kuri shitingi, imbere yazo hariho agakayi gatoya ka musana gasa umutuku, ni imboga zitekwa zivangiwe n'ibindi bintu nka karoti, ibitunguru, ibishyimbo n'ibindi.

Agace gato ko mu isoko karimo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo beterave, imiteja, sereri, karote umufuka n'umunzani bifashisha bapimira abakiriya. Harimo ndetse n'ibitunguru.

Umugabo ubona ko akuze, yambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'itise n'ingofero y'urugara, ahetse mu mugongo igikoresho kirimo imiti, arimo aragenda yuhira inyanya ndetse hateyemo n'ibigori, hakurya ye hari urubingo n'insina.

Amatunda n'amaronji biteretse mu gakoresho kabajwe mu rubaho, ni amwe mu mbuto zifashishwa n'ingeri zitandukanye z'abantu, yaba abakuru, abato, abashaje, mu kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Umugabo uri mu murima uteyemo amatunda ashamikiye ku biti, yambaye itaburiya y'ubururu, arimo aragenda ayazingira ku biti neza kugira ngo abone uko akomeza gukura kuko uko akura ni ko agenda arandaranda.

Ku kigo cy'amashuri hari imbere abantu batandukanye, abarimu, abanyeshuri, bari gufata voka zikiri mu dufuka dutoya zatewemo zikiri umurama, bajya kuzitera aho zabigenewe. Hari imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Rava zigaragara n'ameza ari mu busitani.

Abantu babiri bari mu murima b'abamama, umwe yambaye isengeri y'umutuku undi yambaye umupira w'umukara, bari mu murima buhira pavuro. Pavuro ni kimwe mu birungo byifashishwa mu guteka imboga cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri bari mumurima uhinzemo amashu, umwe wambaye igisarubeti cy'ubururu, arimo aravomerera kugira ngo amashu akure neza, hirya hari undi murima uhinzwemo ibigori, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Umugabo urimo uravomerera yifashishije umupira w'amazi, ari kuhira umurima uteyemo amashu, hakurya ye hari uteyemo ibigori ndetse n'ibiti biri mu ishyamba.

Umugabo uhagaze mu murima wambaye ipantaro y'ikoboyi yafungiye mu mavi, umupira w'icyatsi n'umupira ku rutugu, afite umupira w'amazi arimo aragenda avomerera ibigori, ibishyimbo kugira ngo bikure neza.

Umugore ukuze uteze igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'amaboko magufi n'ikanzu ndende ari mu murima asa nk'aho yari ari kuvomerera ibigori biri imbere ye bikiri bitoya inyuma ye hari ibiti n'ishyamba.

Abantu babiri b'abamama umwe yambaye isengeri aranakenyeye, undi ni ishati, bari mu murima uteyemo imboga. Si izo gusa gusa kuko harimo n'ibindi biti ndetse n'imbuto.

Umurima mugari uhinzemo ibigori, hari robine ifunguye irimo iragenda ivomerera cyangwa yuhira ibyo bigori, kugira ngo bibashe gukura neza bitumagaye.

Umugabo wambaye ingofero igaye, umupira w'amaboko magufi urimo ibara ry'umukara n'umweru, wambaye n'ipantaro y'ikoboyi afite umupira w'amazi ari kwifashisha mu kuhira.

Umugore ukenyeye igitenge n'ishati y'icyatsi yijimye ari ku ivomero, aho umwe ari we uri kubavomera. Bakikijwe n'umusozi, imbere yabo hari umurima w'ibigori. hari indobo ebyiri: umuhondo, ubururu, n'isafuriya.

Umusozi uteyeho amaterasi n'ibindi biti bitandukanye, hari ipoto rirerire ry'icyuma rikwirakwiza amashanyarazi. Muri ibyo biti harimo n'inturusu.

Umusozi muremure uteyeho ibiti byiganjemo inturusu n'iz'umweru, uteyeho amaterasi y'indinganire, hari abantu bavuye kuvoma, bari hasi benshi.

Umurima uhinze ariko udateyemo, ukikijwe n'umurima uhinzemo ibigori n'ahandi hitaruye hari ishyamba ryakuze.

Ubusitani n'inzu z'abaturage, zikikijwe n'imisozi miremire iteyeho amashyamba; izo nzu zubakishije amatafari, zizengurutswe n'ibiti.

Ikibuga gishashe gikikijwe n'ubusitani n'ibiti birebire biri mu mashyamba, hakurya hari inzu bicaramo bari kuruhuka cyangwa bugamye izuba cyangwa imvura.

Umusozi muremure uteyeho amaterasi, hakurya yawo hari insina, hari n'imisozi iteyeho amashyamba.

Igishanga kigari, kirambuye, giteyemo umuceri uhinze ku murongo, bakunze kuwuhinga mu gishanga kugira ngo bajye babona uko buhira amazi agereho nta nkomyi.

Umurima mugari uteyemo imboga, zizwi ku izina rya sukumawiki zitwikirijwe inshinge. Ziteye ahantu hagari, hagari cyane, hakurya hari imisozi iteyeho ibiti ndetse n'amazu amwe n'amwe.

Ubusitani bunini bukikijwe n'ibiti birebire bikuze ariko harimo n'ibindi bikiri bitoya, hari n'ikibuga kinini cyo guparikamo imodoka, harimo imodoka eshatu ziparitsemo.

Umurima mugari urimo icyayi n'ibindi biti bigiye bitandukanye, ikikijwe n'imisozi miremire.

Igishanga giteyemo umuceri, hamwe warakuze ahandi uracyari mutoya, kuko amazi akireremba hejuru. Ruguru yawo hateye ibiti by'inturusu birebire n'indabo imbere yabyo.

Igishanga kinini gikikijwe n'ibiti ndetse n'imisozi hateyemo ibihingwa, akenshi hakunze kuba harimo umuceri cyangwa ibitunguru bino birebire.

Igishanga giteyemo umuceri hamwe harumutse ahandi amazi aracyari hejuru gikikijwe n'ibiti n'imisozi, hari igiti kirekire cya sipuri. Umuceri ukunze guhingwa mu gishanga kugirango amazi abone uko ageraho byoroshye kuko bifasha gukura neza.

Umugabo uhagaze imbere y'ihene iri kurisha, inyuma ye hari umurima uteyemo insina, ibumoso bwe hari inzu ituzuye neza yubakishije amatafari.

Ikiraro kirimo inkoko, cyubakishije ibyondo n'urugi rw'amabati, hagati harimo igiti kirekire gitandukanya izo nzu uko ari ebyiri.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro, ipantaro y'umukara na bodaboda, ari imbere y'inkokokazi zirimo ziragenda zitora; inyuma ye hari inzu yubakishije ibyondo n'amategura.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe, ikote rya kaki ijipo, nta nkweto yambaye, akandagiye ku ibuye, inyuma ye hari umwana wicaye hasi, arimo arashyira ikiziriko mu ihene. Imbere yaho hari andi mahene matoya hari n'ikiraro cyubakishije ibiti.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka itandatu n'irindwi wambaye ijipo, inkweto z'umukara n'amasogisi; ari kumwe na mama we barimo baragaburira ihene iri mu kiraro indi iri hanze, ateze igitambaro mu mutwe, akenyeye igitenge n'agapira; urugo rwabo rwubakishije imiyenzi harimo inyubako iri mu byondo.

Ihene ebyiri ziziritse ku nkingi y'urugo yubakishije senyenge n'ibyuma, ibiziriko biziritse ni ibirere bituruka mu nsina, hasi hari ubwatsi zagiye kurisha.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti bikikijwe n'urugo rwubakishije imiyenzi, iri kurisha insina, umutumba bagiye batematemamo uduce dutoya.

Umugore n'abana babiri bahagaze imbere y'umuryango uri mu mbaho, usize irangi ry'icyatsi, akenyeye igitenge n'umupira w'amaboko, umwana yambaye ishati y'igitenge n'ijipo, hari ihene ebyiri, inini n'intoya, ebyiri zirimo zirarisha imigozi y'ibijumba.

Inka iri mu kiraro kizengurukijwe n'inturusu zumye, hari akanyana ubona ko kamaze iminsi itari myinshi kavutse, karyamye hasi.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo. Iri mu kiraro irimo irarisha irira, mu kintu cyabugenewe bayiheramo ibiryo. Izwiho kubyara abana benshi, ndetse ikagira n'umwanda.

Inkoko iri mu bishingwe irimo iraraha, ishaka ibyo irya, inyubako yubakishije umucanga na sima, amabati ari mu irange ry'umutuku n'urugi ni ko rusa.

Ingurube ni zimwe mu matungo magufi yorohererwa mu rugo, zikaba zizwiho kugira amafaranga menshi kuko zigira abana benshi iyo zabyaye. Ziri mu kiraro harimo inini ndetse n'izindi zikiri ntoya zirimo zirarisha.

Umuryango w'abantu batatu, umugabo, umugore n'umwana, bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, imbere yabo hari ingurube barimo baragaburirira mu ibase ubona ko iri hafi kubwagura.

Umugore ufite inyana n'ikiziriko mu ijosi akenyeye umupira w'umutuku, inyuma ye hari umugabo wicaye ku nyubako yatangiye gusizwa ariko itaruzura, hakurya yabo hari ikamyo y'umweru, ndetse n'inkwi, ikigega, n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bari hanze y'ikiraro n'undi umwe uri mu kiraro mo imbere; harimo inka imwe n'ikindi cyubatse nk'umuvure inka zinyweramo amazi mu gihe zifite inyota.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, wunamye arimo aragaburira ingurube ku mufuka, imbere yaho hari ikiraro cyubakishije imbaho n'urugo rwubakishije imiyenzi n'imihati.

Ikiraro kirimo itungo rigufi ryororerwa mu rugo, ingurube iri mu kiraro irimo irarisha imigozi y'ibijumba, hari n'igice cy'injerekani bakase inyweramo, amazi cyangwa ibindi bintu binywebwa.

Itsinda rito ry'abantu bari mu ngeri zitandukanye, ababuze, abazehe, abakecuru n'inkumi, n'umugabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, bose bafite inkwavu.

Abantu babiri umwe yambaye ikabutura undi ipantaro y'ikoboyi bari hanze y'ikiraro cyubakishije ibiti, imbere yabo hari ibyatsi birimo urubingo n'ihene ifite ubwoya bw'umweru.

Inka ziri mu kiraro, ziri mu ibara ry'umukara n'umweru zirimo zirarisha, hari n'inyana irimo ironka nyina, byose biri mu kiraro kimwe.

Umugabo wambaye agapira ka move ipantaro y'umukara n'ibirenge, ari munzu yubakishije amatafari ya rukarakara, harimo inkokokazi zirimo ziratora ibyo yazigaburiye, imbere mu muryango harimo umufuka urimo ubusa.

Inka iri mu kiraro cyubakishije rukarakara ndetse n'ibiti, n'amabati, Hari umuntu uhagaze imbere yayo wambaye umupira w'ubururu, irimo irarisha, n'iherena ku gutwi.

Ihene ebyiri zifite ibiziriko ziri kurisha, ikigega gifite ibara ry'umukara ndetse naho bavomera, hose hakikijwe n'ubusitani.

Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'umwana, wambaye impuzankano, ishati y'ubururu n'ijipo n'inkweto, arimo aragaburira ibigori inkoko, umugabo ari kugaburira inka urubingo, umugore na we arimo aragosora.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ipantaro y'umukara yihinnye mu mavi, nta nkweto yambaye, afite ikiziriko kiri mu nyana, haruguru ye hari abana babiri bafite ikigurudumu bahagaze mu muhanda muremure wigitaka.

Inka iri mu kiraro cyupakishije imbaho, ifite ibara ry'umukara, muri icyo kiraro kandi harimo ubwatsi n'inkokokazi irimo iragenda itoratora.

Ihene ni imwe mu matungo magufi yororerwa mu ngo, iri mu kiraro iraryamye, imaze kurisha, cyubakishije ibiti bigiye biteranije by'inturusu.

Inkokokazi iri gutambuka ubona ko irimo iragenda itoratora, hejuru yayo urabona ko yatwikirijwe n'ibintu byinshi kuko hari igicucu.

Umugabo wambaye ikote ririmo umweru n'ubururu, ufite ihene irimo ikiziriko, imbere y'inzu yubakishije ibyondo, inyuma yabo hari umurima uteyemo insina.

Itungo rigufi muri amwe yororerwa mu rugo ingurube, iri hanze y'ikiraro cyayo irimo irarigata ku kintu kimeze nk'umufuka, isa nkaho ishaka ku kirya.

Ingurube ni zimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo. Ziri mu kiraro cyubakishije imbaho, harimo ingurube nyinshi, harimo igice cy'injerekani kirimo ibyo kurya byazo, ziba zashyiriwemo kugira ngo zibirye.

Inzu yubakishije rukarakara ifite amabati, imbere yayo hari ingurube ebyiri zikiri ntoya, zirimo ziragenda zirisha. Hasi hari ubwatsi ndetse n'ibipapuro n'ibicupa biri hanze byandagaye.

Ingurube ni imwe mu itungo rigufi ryoroherwa mu rugo kimwe n'andi yose, izwiho kuba igira umwanda, ikabyara n'abayikomokaho benshi, iri mu kiraro, irimo irarisha.

Urugi rubajwe mu mbaho, hanze hari inkokokazi n'amasake n'agakoresho bifashishamo isabune n'amabuye ashinze ubona ko zirimo ziratoratora.

Rimwe mu matungo ngo magufi yororerwa mu rugo, ingurube iri mu kiraro cyubakishejwe ibiti byumye bizirikishije imigwegwe, harimo ibyatsi irimo irarisha.

Ingurube ni imwe amatungo magufi yororerwa mu rugo, iryamye hasi irasinziriye, iri mu kiraro cyubakishije imbaho, iryamye igaramye.

Umugore uteze igitambaro cy'igitenge mu mutwe, n'agapira n'ijipo, akenyeye n'umwana wambaye umupira w'ishuri n'ijipo y'ubururu. Barimo baroza ingurube, mu ibase y'ubururu.

Umuhanda muremure w'igitaka urimo ihene nyinshi ariko si cyane, ukikijwe n'ishyamba, ibiti ku ruhande rw'ibumoso, ndetse harimo n'umuntu uziri inyuma, bigaragara ko ari umushumba wazo.

Umuryango uhagaze imbere y'inzu yabo, umugore, umugabo, n'abana babo batatu, n'amahene atatu afite ibiziriko, akenyeye igitenge ateruye n'umwana mu kuboko kw'iburyo, umugabo we yambaye bote.

Ihene kimwe mu matungo magufi, yororerwa mu ngo, iri mu kiraro cyubakishije ibiti by'inturusu biciye mu buryo butangana, bimwe ni bito, ibindi ni birebire, bigufi, ni ikiraro ubona ko kituzuye neza.

Inka iri mu kiraro ifite ibara ry'umukara, iri kurisha, hejuru yayo hari inturusu zumye n'inyuma yayo. Mo imbere harimo ibyatsi yagiye isigaza irimo irarisha.

Inka isa kacye, bamwe bita bihogo, iri mu kiraro cyubakishije ibiti, irimo irarisha urubingo bagiye bayikatiramo uduce dutoya, kugira ngo ibone uko iburya mu buryo bworoshye.

Urugo rukikijwe n'ibiti, hari amabuye n'ikiraro cyananitseho imyenda, imipira isume n'ijipo. Hanze hari inkoko y'isake iririmo ibara ry'umweru n'umukara.

Umurima uringaniye uteyemo amashu, hagati yayo hagiye harimo umwanya uyatandukanya n'andi kugira bidafatana. Imbere yawo hari umugabo wambaye igisarubeti kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye, hakurya hari ibindi bihingwa bigiye bitandukanye bihateye, bitandukanye n'amashu.

Amatunda ari mu mufuka ategerejwe kujyanwa ku isoko, ni imwe mu mbuto zifashishwa n'abantu batari bakeya cyangwa zigakorwamo imitobe.

Umurima mugari uteweho amapapayi ateye ku murongo, ni imwe mu mbuto zikundwa kandi zoroshye abantu bifashisha mu kugira ngo intungamubiri zibe nyinshi ku buzima bwe.

Umurima uteyemo inyanya zigiye zishingiriye ku biti bagiye batera kugira ngo zibone aho zizamukira, harimo izatukuye, harimo n'izahishije zitaratukura neza.

Igihingwa kijya kumera nk'ishu kiri mu bwoko bw'imboga kitwa burokori; cyifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye, yaba mu mboga kuko gituma ifunguro rigira ubuziranenge, bigatuma ubuzima burushaho kuba bwiza.

Ibishishwa by'imyumbati bitonoye, birunze hejuru y'ibati kugira ngo byume, bikoreshwe icyo byagenewe, harimo ibishishuye n'ibidashishuye.

Umusore uri mu murima uhinzemo amashu, wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi ateruye isafuriya nini yuzuyemo amashu yasaruye, harimo ikidomoro hagati mu mashu, hakurya ye hari intoki nyinshi.

Ibihingwa biteye mu dushashi dutoya bitwikiriye, baba batandukanyije n'ibindi kugira ngo byifashishwe mu kuba ingemwe z'ibindi bintu, zizavanwe hamwe zijyanwe ahandi.

Umurima urimo ubwoko butandukanye bw'imboga nka epinari, ibitunguru birebire bino bizwi nk'ibijumba, ndetse byose bikaba byifashishwa mu gutegura ifunguro ry'imboga.

Inyanya zihinze ariko zihinze zitwikiriye, hari izatangiye gushya izindi ziracyari mbisi; ni zimwe rero mu mboga zifashishwa mu mafunguro yacu ya buri munsi, ziribwa n'abantu bose, baba abakuru, abatoya, mu kugira ngo ifunguro ribe ryuzuye.

Umurima muto utwikirijwe n'inzitiramibu y'umukara yubakishijwe imbaho, harimo romali yifashishwa mu gukora amavuta cyangwa mu cyayi, ndetse n'ibindi bihingwa.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'inka, umwe yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ikoboyi, n'undi wambaye ingofero n'igisarubeti ashobora kuba ariwe muganga w'inka uzwi ku izina rya veterineri, akikijwe n'imirima n'amashyamba.

Inzu yubakishije amategura isize irangi ry'umweru, hahagaze abantu babiri. Umwe ni umuveterineri umuganga w'amatungo, imbere hari inka ifite ibara ry'umukara n'umweru, hari n'umumama ufite utubido tubiri tw'umuhondo.

Abagabo babiri bari mu gitaro cy'inka, umwe afashe umutwe undi arimo arayitera urushinge ahereye inyuma, yambaye ingofero, ipantaro na bote, harimo ubwatsi inka yagiye irisha.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ari mu iduka ricururizwamo imiti ndetse n'inyongeramusaruro bifashisha mu buhinzi.

Umwana urimo uragaburira inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, hagiye hari imitwaro y'inkwi ku mpande z'ikiraro ndetse n'ibindi byatsi byumye. Yambaye agapira k'amaboko maremare k'umutuku, yambaye n'ibirenge.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ikiraro n'inka ebyiri ziri mu ibara ry'umweru n'umukara ziri kurisha; umwe yambaye ishati idoze mu gitenge, undi ishati y'amaboko maremare, ipantaro y'umukara, undi agapira k'umweru kanditseho ''tora Kagame''.

Inka nyinshi, ziri ahantu hamwe, ziganjemo umukara n'umweru, inyuma yaho hari ibiti n'ipoto rijyana amashanyarazi hakurya.

Abantu bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi, abasore, inkumi, bamwe bambaye amataburiya y'ubururu, abandi bambaye amataburiya y'umweru, bari ahantu haka amatara kugira ngo babone ibyo bakora neza.

Abagabo babiri umwe barabona ko ari umushumba, undi ari veterineri kuko afite ikayi n'urupapuro mu ntoki, inyuma yabo hari ishyamba riteweho ibiti byinshi birimo inturusu z'umweru.

Umugabo wambaye igisarubeti ndetse n'ishashi mu kaboko k'ibumoso, ni umuganga w'amatungo uzwi nka veterineri, arimo aratera urushinge inka; hirya ye hakikijwe ibiti, hari n'injerekani.

Umugabo ukuze wambaye igisarubeti cy'amaboko magufi cy'ubururu, yambariyemo ishati y'ubururu bwerurutse, n'ipantaro y'ikoboyi, inkweto z'umukara, yicaye ku rubaho bashyiramo ubwatsi bw'inka, ari guha inka iri mu kiraro umuti.

Abantu babiri umwe ari gutera umuti inka, undi arimo arayugaza kugira ngo idatera amahane. Bahagaze mu busitani, buteyemo ibiti birebire, hakurya hari inzu yubakishije amatekura, n'umurima uteyemo insina.

Abagabo babiri: umwe yambaye igisarubeti na bote, undi isengeri y'umutuku, bari mu kiraro kirimo intama barimo barayitera umuti; icyo kiraro cyubakishije imbaho n'ibiti.

Icyanya cy'inyamaswa gikikijwe n'imisozi miremire, ndetse n'ibyatsi n'ibiti, harimo impara ebyiri, impara izwi kuba ari inyamaswa ifite amabara meza arimo umukara n'umweru.

Inyamaswa y'inkazi intare ibarizwa mu ishyamba, yicaye hasi iryamye, imbere hari ubwatsi uruhande rumwe, ahandi hari ubutaka gusa.

Icyapa kiriho irangi ry'icyatsi n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umuhondo, atanga ikaze mu cyanya cya Nyungwe. Haba harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, zo mu ishyamba.

Urugo ruzitiwe n'ibyuma bya giriyaje n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikigega kirekire gifata amazi aturuka kuri ayo mabati, azengurutse ibiti n'ubusitani.

Ishyamba ririmo ibyatsi birebire byumye, harimo inyamaswa z'ishyamba ebyiri zizwi ku izina ry'ishya cyangwa bamwe bavuga ko ari ihene z'ishyamba.

Inyoni imwe mu nyamaswa zo mu kirere kandi ziguruka, iri mu giti gifite amashami makeya gikikijwe n'ibindi biti birebire bifite amashami manini ndetse maremare.